Imiteja yarakuze, kandi bigaragara ko ifite isosi. Ugiye kuyishakira ibirungo, ukayishakira, amanyanya, igitunguru, ni ugukaranga urusosi.

Ibitoki gupfa kubibona mu karere ka Musanze biragoye, keretse iyo zamutse za Gakenke iyo haruguru gatoya, bibayo kandi biryoshye.

Ikijumba cy'umwimerere gifite ifufu. Ikingiki kugikubita ku mamininwa, ufite n'ikirayi cyawe cya kinigiba, bisa n'aho iyo mvange utapfa kuyivaho kabisa.

Izi ni ingano zikiri ntoya, zifite ibara wagira ngo ziracyatoshye, bigaragara ko zitaruma kandi izuba ridahari.

Ibi ni ibishyimbo bya ruvunangimbi, biraryoha kandi bigira amafufu, bigira n'ubutare bwagufasha kongera amaraso, ni byiza.

Inka y'ifirizone ifite amata rwose, bigaragara ko ifite umukamo mwiza. Ndi kubona banayoroye kijyambere aba ngaba ni aborozi kabuhariwe.